Byagaragaye ko mu gihe abakozi ba leta n'abakozi basanzwe ari ngombwa ko iyo bari mu nama bagomba kwifashisha amazi ndetse n'aho bandika, mu buryo bwo kutibagirwa ibyabereye mu nama.

Leta y'u Rwanda muri bimwe izwiho harimo no gutanga serivisi ku baturage n'ibyabo mu kugira ngo yimakaze ubumwe, umutekano, kandi habeho amahoro mu gihugu.

Ibigo by'imari bitandukanye mu Rwanda, usanga byariyemeje gukora amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane, kugira ngo ababigana barusheho kubona serivisi nziza kandi zinoze, ndetse banazibonere ku gihe, kandi bazibone bitabagoye, mu gihe cyagenwe.

Mu buryo bwo kunoza imitangirwe myiza ya serivisi zitangirwa muri leta, hashyizweho uburyo n'ahantu abakeneye izo serivisi bicara mu gihe akazi kataratangira kandi bashyirirwaho n'amasaha y'akazi bashakira.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, bigaragara ko biteza imbere leta, ni muri ubwo buryo yahisemo gushyira abapolisi mu muhanda, mu rwego rwo gucunga umutekano wabo neza kandi bakagerayo amahoro.

Mu mijyi usanga ari ahantu hahurira urujya n'uruza rw'abantu, imodoka ndetse n'ibindi, ni muri ubwo buryo leta iba yarashyizeho ingamba z'umutekano uhamye kandi ikahagirira isuku nyinshi, ihambaye.